Abadamu bari imbere mu nzu ahagaragara nk'aho ari mu ivuriro, umwe yambaye itaburiya ya kiganga, undi yambaye imyenda idoze mu gitenge, ateruye akana kari gupimwa na muganga.

Abantu bahagaze imbere y'inyubako imeze nk'ivuriro isize ibara ry'ubururu, ndetse hakaba harimo abadamu n'abagabo, harimo bambaye amataburiya y'umweru byerekana ko ari abaganga.

Abantu basa nk'aho bari ahantu hanze mu mbuga hari abadamu babiri bari inyuma bicaye bateruye abana ndetse n'undi mugabo wambaye imyenda y'abapolisi n'abandi bana batoya bafite ibikombe bari kunywa.

Ivomero rusange riri ahantu mu gishanga ahagaragara ibiti binini, hakaba hari abadamu babiri umwe wambaye ijiri rijya gusa oranje n'agapira k'umweru mo imbere, umugabo ufite ibido uri kuvoma n'undi mudamu ukenyeye igitambaro mu mutwe.

Umuntu utagaragara mu bindi bice byo mu isura, akaba yambaye umupira bawuzinze n'umuganga wambaye utuga tw'umweru, yafashe urushinge arumujomba ku kuboko.

Abantu bahagaze hanze y'ivuriro hakaba harimo abadamu ndetse n'abagabo, hari uwambaye ijaketi y'ubururu n'ipantaro y'umukara.

Sale yicayemo abantu benshi bakaba bambaye imyenda igiye itandukanye isa icyatsi n'isa umweru, bakaba bambaye bose udupfukamunwa ku meza ziri imbere yabo hariho uducupa tw'amazi.

Ivomero rusange riri ahantu hameze nko mu gishanga, rihagazeho abana barenga batatu akaba ari bane, inyuma hari igiti hakaba hari n'injerekani iteretse iruhande, akana kari inyuma gafashe ku cyuma kari kuvoma.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umudamu uteze igitambaro wicaye ku ntebe uteruye akana gatoya, imbere hakaba hari umuganga w'umugabo.

Abana bari inyuma y'umudamu wicaye wambaye imyenda yo mu gitenge akaba ateze akantu mumutwe yambaye marinette ameze nkaho ari guseka.

Mo imbere mu nyubako, muri sare iberamo inama, hicayemo abantu batandukanye, abadamu, n'abagabo, ku meza imbere yabo, hari mudasobwa ndetse n'uducupa tw'amazi.

Umugabo w' umuzungu, wambaye rinete, ndetse n'ikote ry'umukara, imbere yiwe, hari abantu benshi batandukanye, abadamu ndetse n'abagabo bambaye utuntu mu ijosi, turanga imyirondoro yabo.

Sare yicayemo abantu batandukanye harimo abadamu 2 bagaragara b'abazungu abagabo 3 nabo bagaragara bambaye imyenda itandukanye.

Ivomero rusange rihagazeho umudamu, wambaye imyenda idoze mu bitenge, undi umuri inyuma ufite umutaka, umwana ufite injerekani akaba ari kuvoma.

Abantu benshi bahagaze ahantu hameze nko muri jaride, bakaba ari abadamu ndetse n'abagabo, bakaba bambaye imipira y'imyeru, ndetse n'abandi babiri bambaye imipira y'ubururu.

Ivomero rusange riri ahantu mu kabande hakaba hari umudamu uhari n'umwana mutoya ufashe ku cyuma ari kuvomera undi mutoya uri imbere ufite utubido tubiri.

Abagabo bari ahantu hanze harimo uwambaye ijiri iranga icyakora hari uwicaye wambaye ingofero ndetse n'abana batoya bamuri inyuma bakaba hari ibyo bari kwigishwa.

Sale yicayemo abantu benshi batandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore, imbere hakaba hicaye abandi bagabo batanu ndetse n'umudamu umwe.

Umwana uri ku ivomero rusange, inyuma y'iwe hari ibiti byinshi cyane, yambaye agashati kari mu ibara ry'icyatsi, impande y'iwe inyuma hari indobo y'ubururu ndetse n'imbere hari indi y'ubururu.

Abantu bahagaze harimo uwambaye imyenda ya gisirikare n'umudamu upfukamye wambaye ijiri ndetse n'ingofero n'amarinete, afite icyansi ari guhereza abana amata.

Inyubako zitagaragara neza bisa nk'aho ari ikigo cy'amashuri kigaho abana batoya, hakaba hagaragara abana bari ku ivome rusange ry'ishuri, bamwe bari gukaraba intoki.

Ivomero rusange rikikijwe n'abantu batandukanye, abana ndetse n'abasaza, hakaba hari ibido iri ku mugezi bari gushyiramo amazi n'akabido gatoya kayiri iruhande.

Ahantu hanze hameze nk'ivuriro hakaba hicaye abadamu batandukanye, bose bakaba bateruye utwana dutoya tw'uduhinja, bakaba bambaye ibitenge.

Ahantu hari ivomero rusange mu gishanga, hirya haragaragara imodokari y'itoyota y'umweru, hakaba hari umudamu ufashe ku cyuma ari kuvomera utwana duhagaze imbere y'umugezi.

Abantu benshi bateraniye ahantu hameze nko ku ivuriro, inyuma haragaragara agatanka kaba karimo amazi, ni abagabo ndetse n'abagore, harimo n'abana batoya cyane.

Abantu bicaye hanze y'akazu kubakishijwe imbaho, abagabo babiri bahagaze ndetse abandi akaba ari abadamu bicaye, harimo n' abateruye abana.

Abantu bari ku ivomero rusange, hakurya hari inyubako, hino hari umudamu wateretse umwana mu ibase akaba ari kumwoza, undi uri inyuma yiwe ari gukaraba intoki.

Umwana uhagaze hanze yinyubako zimeze nkaho ari ubwiherero rusange, hakaba hateretse akarobine gakozwe mu ndobo y'icyatsi, bakunda kwita kandagira ukarabeba, hari akabase k'icyatsi ari gukaraba intoki.

Umwana uri ku ivumero uri guseka akaba ari koga mu maso, afite umusatsi mukeya, yambaye agapira k'amaboko magufinya.

Abantu batatu, bicaye muri sale iberamo inama, ku meza hateretse uducupa tw'amazi, imbere y'umugabo, hakaba hateretse mudasobwa.

Ivomero rusange riri ahantu mu kibaya, hakurya ni ibiti, rikaba rikikijwe n'abantu benshi, akaba ari umwana uri kuvoma n'akabido k'umuhondo, undi wo hirya ari kumuvomera afashe ku cyuma.

Sale iberamo amanama atandukanye, inyuma hakaba hamanitse igitambaro gishushanyijeho amagambo mu ibara ry'umweru n'umukara, hirya hamanitse idarapo, ku meza imbere y'abagabo hakaba hari uducupa tw'amazi.

Abantu bicaye ahantu muri sale hameze nko kwa muganga umudamu wambaye ipantaro y'umukara n'agatambaro k'umweru akaba ateruye akana gatoya, iruhande rwiwe hari undi mwana uhicaye, imbere hakaba hari umudamu umeze nk'aho ari kumuhereza imiti.

Mo imbere mu nyubako ahasa nk'aho ari kwa muganga, harimo abadamu batatu b'abaganga, babiri bari mu bitabo bari kwandika, undi umwe wicaye hirya ari kubareba.

Ahantu hagaragara hameze nko mu gishanga, nta giti na kimwe kihagaragara, hari abana bahagaze mu kiyaga, bose badubitsemo ibintu mu mazi basa nk'abari kuvoma.

Ivomero ry'isoko amazi akaba ari kuvamo, hakaba hari ukuboko k'umuntu utagaragara kuri gukaraba amazi agwa hasi, ahantu mu kinogo kimo andi ari gushoka.

Sale irimo intebe nyinshi zicayeho abantu batandukanye, hari abagabo ndetse n'abadamu, imbere yabo hari abandi bahicaye, abadamu ndetse n'umugabo umwe, hakaba ari na kamera iri gufata amashusho.

Ahantu hari abantu benshi basa nk'abahagaze ku murongo, haragaragara umusaza wambaye ingofero y'ubururu ndetse n'imyenda y'umukara, imbere y'iwe hakaba hari abaganga, bambaye imyenda yabugenewe, bari kumuvura.

Ivomero rusange riri ahantu hameze nko mu kibaya, hakurya akaba ari amashyamba, hari umudamu ukuzemo cyane wambaye igitenge kiri mu ibara ry'icyatsi n'akagofero akaba afite ibido ari kuvoma.

Ivomero rusange rihagazeho abantu batandukanye, abadamu ndetse n'umugabo n'utwana dutoya hakaba hari ibibase by'ibyuma, amabido asa umuhondo ndetse n'ibase yo muri purasitike.

Umwana mutoya cyane wambaye iniforume akaba ari kumwe n'umudamu wambaye umupira ujya gusa ubururu ndetse n'agapfukamunwa gakozwe mu gitenge akaba yasize umwana isabune ari kumwoza intoki.

Umugabo usa nkaho akuze wambaye ikote ry'umukara n'amarinete ndetse inyuma yiwe hari icyapa kinini cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru, iruhande rwiwe hari intebe ndetse ku mpande hari uducupa tw'amazi.

Ivomero rusange ririho abantu bari kuvoma, hari amabido menshi ari kumurongo hari amagare ahaparitse atagaragara hari n'umusore umwe uhagaze.

Umugabo wambaye itaburiya ijya gusa ubururu, afite igishushanyo kiriho umugabo n'umugore bahagaze akaba ari umudamu uhagaze iruhande rwiwe ukenyeye igitenge.

Amakamyo abiri manini cyane, akaba hari ibyapa biyometseho, bisobanura ibintu biba bipakiye mo imbere mu makamyo, akaba ari ku ruhande rw'umuhanda.

Hanze y'ivuriro ahagaragara icyapa kihamanitse ndetse n'idarapo rihashinze n'ihema ry'umweru, hahagaze abantu benshi batandukanye abasaza, abagabo ndetse n'abagore.

Umudamu usa nkaho akuze, akaba yambaye igitenge n'umupira w'amaboko maremare, yambaye ingofero, akaba ari ku ivomero rusange ari kuvoma amazi mu ibido.

Abantu benshi bahagaze ahantu hanze yinyubako, inyuma yabo hari icyapa kinini cyerekana ibikorerwa aho hantu. Bakaba bambaye imipira y'imyeru, ni abadamu ndetse n'abagabo.

Sare isa nkaho ari iyo kwa muganga hakaba hari abantu bicaye ku ntebe, abadamu n'abagabo ndetse n'umwana, undi akaba ahagaze imbere y'umudamu uri kuri mudasobwa afite n'igipapuro mu ntoki, wambaye agapfukamunwa.

Abantu bari ahantu hameze nkaho ari ku nzira, umwe yambaye itabuririya y'umweru, n'ikintu bikinga mu maso ndetse n'agapfukamunwa, bigaragara ko ari umuganga, yafashe umusaza ku rutugu, arimo aramuganiriza amubaza ibibazo.

Abantu bahagaze ahagana hanze mu mbuga, akaba ari abadamu ndetse n'abagabo, harimo abambaye imipira y'imyeru ndetse n'abambaye imipira y'ubururu, babiri ntibagaragara.

Abantu benshi batandukanye bahagaze hanze mu ibaraza ry'inyubako, harimo abadamu ndetse n'abagabo, hari uwambaye ishati y'icyatsi n'undi mugabo wambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umweru.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'ikarita mu izosi yerekana ibyo akora, yambaye utuga tw'umweru, imbere y'iwe hakaba hicaye akana gatoya, ari kugatera urushinge ku kuboko.

Abantu bicaye ahantu hanze hari imeza iriho ibikoresho byinshi bitandukanye ndetse n'umuganga w'umusore wambaye itaburiya y'umweru na ga z'umweru.

Abagabo bakuru cyane bahagaze bambaye amakositime ndetse harimo n'umuzungu umwe w'umudamu, ukenyeye ikintu ku rutugu rwiwe.

Ivomero riri ahantu hakaba hari umwana urihagazeho yunamye, akaba ari koga intoki, yambaye agashati kajya gusa icyatsi n'agakabutura gasa nk'agashaje.

Ivuriro rigaragara, hari i darapo rishinze hanze, amahema abiri matoya ahateye y'umweruru n'abantu benshi bahagaze, harimo abadamu, abagabo ndetse n'abana batoya.

Abantu benshi batandukanye bicaye ahantu mu mbuga, akaba ari abadamu bateruye utwana dutoya, hakaba hari n'utundi duhagaze ndetse bari kumwe n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru uri gusuzuma abana.

Ivomero rusange ririho abadamu bari kuvoma amazi, umwe afite indobo y'ibara ry'ubururu ndetse n'indi ndobo ihateretse y'ibara ritukura.

Abana benshi bahagaze ahantu hameze nk'aho ari ku ivomero rusange, hakurya inyuma yabo hakaba hari ibiti bitagaragara neza, hakaba hambaye imyenda y'amabara atandukanye umutuku ndetse n'icyatsi.

Ivomero rusange rikikijwe n'abantu benshi abadamu ndetse n'abagabo umwana umwe ari imbere wambaye isengeri y'umutuku akaba afite injerekani ari kuvoma umudamu uri inyuma akaba afashe ku cyuma ari kumuvomera.

Ivomero rusange riri ahantu mu kibaya, hirya hakaba hagarara ibiti n'umuhanda uparitsemo imodokari ijya gusa umweru, hakaba hari umudamu ufashe ku cyuma ari kuvomera abana bane bahagaze.

Umwana uri guseka wicaye ku ivomero hakaba hari amabido ahateretse, imwe ikaba isa ubururu indi ikaba isa umuhondo.

Hanze mu rubaraza rw'inyubako imeze nk'aho ari ivuriro, hakaba hicaye abantu benshi, hakaba higanjemo abadamu, hakaba n'uteruye umwana.

Umwana mutoya ufite imisatsi isutse iryamye, wambaye utwenda twiganjemo ibara ritukura tudozwe mu gitenge, akaba ari kuri robine ari gukaraba amazi ajya mu ibase y'umukara.

Abantu bicaye muri sale hari n'abandi bahagaze inyuma higanjemo abadamu ndetse n'abagabo, hari n'icyapa kimanitsemo.

Inyubako zigaragara ndende ariko inyuma hakagaragara imisozi ndetse n'umuhanda, hanze hari abagabo babiri bahagaze ariko batagaragara neza.

Abana babiri bicaye ahantu hameze nk'aho ari mu ishuri, umwe yambaye agashati undi akaba yambaye umupira w'imbeho w'amaboko maremare yateye agatoki hejuru.

Abantu bari ku ivomero rusange, ahantu hari amabido menshi asa umuhondo, umudamu wambaye igitenge ndetse akaba yitegesheje n'akandi mu mutwe.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abadamu babiri, hari umwe w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru, undi akaba ateruye umwana mutoya, akaba ari gusuzumwa.

Abadamu babiri basa nk'aho bari mu ivuriro, umwe akaba yambaye amaherena, ndetse n'itaburiya y'umweru, afite umuti mu ntoki ziwe ari kuwuhereza agahinja gateruwe n'undi mudamu.

Abantu benshi bicaye mu ihema, hirya hakagaragara undi muntu uri kuza abasanga, imbere yabo hahagaze umudamu wambaye itaburiya y'umweru, akaba afite mikoro mu ntoki ziwe ari gutanga ikiganiro.

Sale yo kwa muganga igaragaramo intebe z'umukara, hakaba harimo za mudasobwa n'umudamu wambaye imyenda y'ibitenge n'umugabo umuhagaze imbere, wambaye imyenda yo mu ibara ry'ubururu bwererutse.

Umugabo cyangwa umusore wicaye, wambaye umupira usa oranje ndetse n'amarinete, akaba ateruye akana gatoya, yagashyize ku munzani upima ibiro.

Abadamu babiri bicaye mo imbere mu nyubako, hakaba harimo uwambaye agapfukamunwa k'ubururu, ndetse n'undi wambaye agapfukamunwa k'umukara bose bateruye abana batoya.

Umukobwa usutamye wambaye ijipo y'umukara, inyuma yiiwe hakaba hari umugozi wanitseho imyenda, yicaye kuri robine, ari kuvoma amazi n'ibido isa umuhondo iteretse mwibase.

Abana batatu bahagaze ku ivomero rusange, inyuma yabo hakaba hari igiti, umwe ugaragara imbere mutoya cyane akaba ameze nk'aho ari guseka.

Umudamu ukenyeye igitenge usa nkaho ari kugenda mu nzira, imbere y'iwe haragaragara ibiti, yikoreye indobo itukura, akaba afite n'indi isa ibara ry'umuhondo mu ntoki.

Ivomero rusange rigaragaraho abana batoya cyane, n'amabido ahateretse y'umuhondo, hari akana k'agakobwa gahagaze kambaye akajipo k'umutuku n'udukweto tw'icyatsi, n'umugabo uri kuvoma.

Abantu bicaye ahagana hanze muri jaride, hakaba harimo umudamu wambaye itaburiya y'abagangaba, akaba yafashe agakoresho bifashisha bapima umuntu ku kubokoba, bakaba ari abadamu bambaye ibitenge ndetse banateze ibitambaro mu mutwe.

Sale nini iberamo ibiganiro bitandukanye inyuma hahera hakaba hateretse icyo twakwita nka kamera cyifashishwa mu gufata amashusho.

Abantu batandukanye bari ahantu mu ihema hari abadamu ndetse n'abagabo wicaye hano imbere ari kumwe n'akana gatoya ari ku gasuzuma.

sale y'uruganiriro yicayemo abantu benshi batandukanye harimo abadamu ndetse n'abagabo kumeza imbere yabo hateretse uducupa twamazi.

Abantu bari ahantu hanze hagaragara imeza iteretseho imiti y'amoko atandukanye, hari umudamu uteruye akana gatoya, ndetse n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru, uri kumujomba agashinge ku kaboko.

Abantu benshi batandukanye bicaye muri sale iberamo inama, kumeza imbere hakaba hatetse amasakoshi, uducupa tw'amazi, hakaba hari undi uhagaze wambaye ikanzu y'umweru n'agakoti k'umukara, akaba ameze nk'aho ari kubahereza ikiganiro.

Abantu bahagaze mu cyumba cy'ivuriro, hakaba harimo abadamu bambaye amataburiya y'umweru agaragaza ko ari abaganga ndetse n'abandi bagabo bahagaze.

Ivomero ririho umwana wateretseho akabito uri kuvoma n'undi uhagaze hejuru uri kumufungurira, mu muhanda hakaba harimo abana b'abanyeshuri bari kugenda.

Mo imbere, mu nyubako, ahari sare iberamo inama, hicayemo abantu benshi cyane, harimo abagabo ndetse n'abagore, ku meza hateretse uducupa tw'amazi.

Abantu bahagaze hanze mu ibaraza ry'inyubako, hakaba hagaragara uwambaye ijiri n'agapfukamunwa ndetse n'umuganga wicaye uri gusoma impapuro, ku meza hari mudasobwa ihateretse.

Abantu benshi bicaye mu ihema, hakaba hari umudamu uri imbere wambaye imyenda ya gipolisi, hakaba hari umugabo uri imbere yabo uhagaze, ufite insakazamajwi cyangwa mikoro, ari gutanga ikiganiro.

Abana bicaye ahantu hameze nko mu kibaya bakaba bicaye kuri robine bakaba bari koga umwe yambaye utwenda dusa hose undi akaba yambaye agapira k'umutuku.

Umudamu uhagaze ku ivomero rusange, hakurya inyuma yiwe hagaragara ibiti, imbere yiwe hari indobo iteretse kuri robine y'umukara, akaba ateruye akana gatoya kambaye akagofero k'umweru.

Sale nini igaragaramo abantu bicaye, harimo abadamu babiri bose bambaye udupfukamunwa n'undi mudamu umwe wambaye ipantaro yera n'uwambaye agapfukamunwa n'abagabo batatu bambaye kositime.

Abantu benshi batandukanye bicaye ahantu hameze nko mu ihema higanjemo abadamu ndetse n'abagabo, hari ugaragara wambaye akagofero k'umweru n' amarinete.

Abantu bahagaze hanze y'inyubako iruhande hari icyapa kiriho ibyerekana ibikorerwa mu mbere hakaba higanjemo abadamu ndetse n'abagabo bambaye imyenda yerekana ko ari abaganga.

Abadamu bari ku ivomero rusange, hakurya hari igiti ndetse babiri bafite icyuma bari gupomba amazi, umwe afite indobo ijya gusa icyatsi ari kudaha amazi mu rubase runini, yambaye ibirenge.

Abana benshi batandukanye, hakaba harimo abakobwa ndetse n'abahungu, umwe wambaye akantu gatoya k'umweru n'agakanzu k'umuhondo, akaba yikoreye amaboko, uri hano imbere ugaragara cyane akaba ari guseka.

Abantu babiri bicaye mo imbere mu nyubako, umwe akaba ari umudamu undi ni umugabo wambaye ishati akaba afite umusatsi mukeya, yubitse umutwe.

Umuntu wambaye imyenda ishaje yacitse, akaba yambaye n'ibirenge, afite imisatsi myinshi, inyuma yiwe hakaba hari moto ndetse n'imodokari bitagaragara neza.

Inyubako igaragara iriho amadirishya menshi, isize irange ryera, ikaba imbere kuri jaride hateyemo ibyapa bibiri byanditseho amagambo yerekana ibikorerwa mo imbere.

Abantu bahagaze benshi biganjemo abadamu n'abasore bakaba bambaye imipira bose ijya gusa ibara ry'ubururu harimo umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Abantu bahagaze hanze y'inyubako, iruhande rwabo hari icyapa kiriho amagambo atandukanye, hakaba higanjemo abadamu ndetse n'abagabo.

Akana gatoya gafite udusuko ku kumutwe. Kakaba kari guseka gafite akantu kari kurya kafashe mu kiganza kambaye ishati y'umweru, n'agakabutura k'ubururu bwijimye.

Umudamu wicaye mu nyubako inyuma yiwe hari akabati karimo imiti y'amoko menshi atandukanye y'ubuvuzi bwa gakondo, akaba yambaye imyenda idoze mu bitenge.

Abadamu babiri bicaye ahantu hameze nko mu ivuriro, umwe yambaye ikanzu y’ubururu irimo n’akeru gakeya, afite agashushanyo k'inyamaswa, undi yambaye umupira w’umukara.

Umudamu wambaye isengeri y’umuhondo, afite imisatsi isutse akaba ahagaze ahantu hameze nko muri butike hamanitsemo ibiribwa bitandukanye, hari marigarine n’ikindi bita salisa.

Umuntu utagaragara neza igice cyose cyo mu maso, hagaragara ijisho rimwe ndetse rimeze nk'iriri gushokaho amarira, arareba nk'ubabaye cyane.

Umudamu wambaye umupira w'amaboko maremare wera, akaba afite ibisuko ku kumutwe w'iwe, akaba yifashe mu mutwe yunamye asa nk'ubabaye.

Abantu batandukanye bagaragara, hari umusaza n'umukecuru bafatanye ku rutugu, hakaba hari n'abandi babiri umwe wambaye umupira w'umuhondo undi ishati yera, nabo bameze nk'abafatanye ku rutugu.

Umudamu w'umukuru w'igihugu bita Jeannette Kagame akaba yambaye amarinete ndetse ku matwi yiwe hariho amaherena, ku kuboko kwiwe kw'ibumoso hariho isaha, ahagaze imbere ya mikoro.

Umugabo ugaragara wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'imbere akaba yambayemo ishati impande hakaba hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Umudamu ugaragara ufite isuka yifashishwa mu guhinga imirima, akaba yikoreye igitebo kinini kirimo ibyatsi ndetse yambaye akajakete k'umukara.

Umupira ugaragara mu ibara ry'umweru, amagana ku maboko hariho ibara ry'ubururu, ndetse no mu ijosi hari akabara k'ubururu gakeya, inyuma handitseho amagambo atandukanye.

Abantu bahagaze mo imbere mu ihema, rikaba riteyemo imeza ziriho ibitambaro by'umukara, hakaba imbere y'umugabo wambaye umupira w'umukara hari mudasobwa.

Imbere mu nyubako muri sare ahari kubera inama, hari ababyeyi bicaye ku ntebe ndetse hari n'uhagaze uri kubereka ibintu anandika, inyuma y'iwe hari icupa ry'amazi riteretse ku meza.

Abana basa nk'abicaye ahantu runaka, bakaba bambaye utuntu dukozwe mu bikarito mu mutwe ndetse bambaye imipira y'imihondo, ugaragara imbere akaba ari gukoma amashyi anaseka.

Abantu benshi bahagaze harimo abambaye iniforume za gipolisi, abandi bakaba bambaye imyenda isanzwe, inyuma hari icyapa gihari kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara.

Umugabo wicaye muri rigori akaba yikenyeje igitenge gisa nabi gifashe mu ijosi, afite amashashi mu ntoki ziwe impande yiwe hateretse akabido k'umukara.

Abantu barimo imbere mu nyubako hakaba hari imeza iteretseho agacupa k'amazi, hakaba hari umugabo wayishyizeho ukuboko wambaye amarinete higanjemo abagabo ndetse n'abagore.

Mw'imbere mu nyubako imeze nkaho ari sale, imbere hahagaze umudamu wambaye ishati y'amaboko maremare, imbere yiwe hicaye abantu batandukanye, abagabo ndetse n'abagore.

Abantu bicaye muri sare ku dutebe dusa nk'udutukura, umudamo wo hino yambaye ishati y'amaboko maremare y'umukara ndetse n'amaherena ku gutwi n'amarinete.

Umuntu wicaye hasi ahagana mu nzu hirya hari igitenge kihashashe, na we akaba yambaye igitenge n'umupira usa ubururu uciyemo uturongo tw'umweru ku kuboko.

Abantu bicaye ahantu hameze nko muri salle, hakagaragara umugabo umwe n'abadamu bane, umwe akaba afite mikoro mu ntoki, asa nk'uri gutanga ibiganiro, imbere yiwe hateretse mudasobwa n'agacupa k'amazi.

Mo imbere mu nyubako, ahagaragara umudamu witeze igitambaro cy'ubururu, akaba yicaye ku gatebe ka parasitike k'ubururu, ku meza iri imbere hakaba hariho icupa ry'amazi n'umugabo wicaye, wambaye umupira w'ubururu.

Abantu bahagaze bambaye imipira y'imikara n'indi isa andi mabara, inyuma yabo hakaba haparitse imodokari y'umweru, hakaba hari n'amatente ahateye cyangwa icyo twakwita shitingi.

Abantu bahagaze hanze y'inyubako kuma esikariye, iruhande hari icyapa kiranga ibikorerwa mo imbere hakaba higanjemo abadamu ndetse n'abagabo.

Mwimbere mu nyubako ahameze nk'aho ari sale iberamo inama inyuma hari icyapa kimanitse harabadamu bicayemo imbere yabo hateretse uducupa ttwamazi.

Umusaza ufite utwanwa dukeya akaba yambaye ishati ijya gusa ubururu n'akantu yakenyeye kari mu ibara ry'umuhondo, inyuma y'iwe hari abandi bantu batagaragara neza.

Umudamu wicaye mo imbere mu nzu; ku mbabura hakaba hariho isafuriya irimo ibintu ari kuvanga, ahetse akana gatoya hakaba hari n'akandi kamuhagaze iruhande.

Abana benshi bahagaze hakaba harimo abari kurira bateze amaboko, umwe wambaye akantu k'umukara n'ishati mo imbere, undi yambaye umupira ujya gusa umweru.

Ahantu hagaragara abantu benshi, hasa nk'aho ari isoko ry'ibiribwa runaka, imbere haragaragara umwana wikoreye amaboko, akaba ari kurira, inyuma y'iwe hagaragara umudamu ufite inkwi mu ntoki.

Abantu bahagaze imbere mu nyubako hakaba hateyemo ameza manini, ndetse inyuma hakaba hari ibintu bihamanitse, hakaba higanjemo abadamu ndetse n'abagabo.

Imodokari nini y'umweru inyuma handitseho amagambo, ikaba yifashishwa mu gutwara ibintu byinshi bitandukanye, imbere hicaye abantu, harimo abadamu n'abagabo.

Umudamu wicaye hanze y'inyubako akaba ateruye akana kamwe gatoya cyane iruhande hakaba hicaye undi mwana mbere y'iwe hateretse inkoko n'ingemeri y'umutuku.

Ahantu hagaragara nkaho ari ikigo cy'amashuri runaka, ndetse hakaba hateyemo n'idarapo, hagaragara abana benshi bambaye impuzankano cyangwa icyo bita imyenda y'ishuri, harimo abakobwa ndetse n'abahungu.

Abantu babiri umugabo ndetse n'umukobwa ufite imisatsi myinshi bose bambaye imipira y'imyeru, umugabo akaba afite agasume k'umweru ku rutugu bose bafite utudodo bashyize mu kanwa.

Umugabo ugaragara ufite utwanwa dukeya ku kananwa, akaba yambaye igituza, afite agasatsi gakeya, afite urudodo yaziritse ku menyo.

Icyumba cyo kwa muganga hasa nkaho ari muri laboratwari hakaba harimo umuntu wambaye itaburiya y'umweru w'umuganga akaba afite ikimarikeriri mu ntoki.

Icyumba cyo kwa muganga, hakaba hagaragaramo umuganga wicaye ku ntebe, wambaye amarineti n'agapfukamunwa n'imyenda ijya gusa icyatsi, umwana uryamye ku gitanda, akaba yamwasamuye ari kumusuzuma mu kanwa.

Umukobwa utagaragara neza mu maso, ukenyeye akantu k'umweru mu mutwe, akaba afite akantu yagashyize mu ryinyo, asa nkaho ari koza mo hagati yayo.

Icyumba cyo kwa muganga umwana mutoya uryamishijwe ku ntebe ikoramagatanda n'umuganga wambaye agapfukamunwa n'itaburiya y'umweru ari kumusuzuma mu kanwa.

Icyumba cyo kwa muganga kigaragaramo ibikoresho bitandukanye, hari utubati babikamo ibikoresho ndetse n'imiti, hagaragaramo intebe umuntu yicaraho yo ku mapine ndetse n'indi imeze nk'agatanda baryamishaho uri gusuzumwa.

Umudamu uhagaze wambaye agasengeri k'umweru ndetse n'uduherena dutoya, afite imisatsi y'umukara, akaba afite akadodo yashyize ku menyo yiwe.

Umugabo uhagaze ufite ubwanwa butari bwinshi cyane ndetse n'umusatsi utari mwinshi, ari guseka akaba yambaye ishati y'ikoboyi, mo imbere akaba yambariyemo n'undi mupira.

Umugabo uhagaze utagaragara igice cyo hejuru mu isura neza, afite ubwanwa bukeya, akaba yambaye igituza hejuru, afite aka esume k'umweru ku rutugu ndetse n'urudodo mu ntoki ziwe yashyize mu menyo.

Umwana n'umugabo bahagaze mo imbere mu nyubako, bose bakaba bambaye imipira y'imyeru kandi bafite utudodo bose baziritse mu menyo yabo.

Umusore uryamye mu cyumba kwa muganga, Hakaba hari umuganga w'umudamu wambaye agapfukamunwa, akaba afite utwuma akaba yasamuye uwo musore ari kumuvura mu kanwa.

Abantu bicaye ahantu hameze nko muri sare y'ivuriro, hakaba hari abadamu n'abagabo bambaye imipira y'icyatsi n'abambaye imipira y'umweru, umwe bakaba bamufashe bamwasamuye bari kumupima mu kanwa.

Abana benshi bahagaze bambaye impuzankano bakunda kwita iniforume, bakaba bafite ibikombe bose ndetse n'uburoso, bari kuborosa amenyo.

Umusore uri kwireba mu ndorerwamo wambaye umupira wumweru afite imisatsi itari myinshi cyane n'urudodo mu ntoki ziwe ebyiri yashyize mu menyo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo akana kicaye ku ntebe kambaye agapfukamunwa k'umutuku, kakaba kasamye umuganga akari imbere, ari kugasuzuma ndetse n'undi w'umudamu na we wagafashe ku ijosi.

Icyumba cyo mu ivuriro kigaragaramo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo intebe ndetse n'amamashini bifashisha basuzuma umuntu warwaye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umurwayi uryamye ku gatanda w'umugabo ndetse n'umuganga w'umudamu, wambaye imyenda y'ubururu afite agakoresho yamushyize mu kanwa.

Abadamu babiri bahagaze muri sale imeze nkaho iberamo inama, imeza ishasheho igitambaro cy'ubururu, hateretseho uducupa tw'amazi, umwe afite igipapuro mu ntoki ari kwandika yambaye amarinete.

Icyumba cyo kwa muganga kiryamyemo umusore wambaye ishati ariko ntabwo agaragara ku gice cyo hasi, arimo araseka ari kumwe n'umuganga uri kumusuzuma.

Icyumba cy'ishuri kirimo ikibaho cyubatse ku gikuta cyanditseho amagambo atandukanye, hari umudamu w'umuzungu n'undi w'umwirabura n'umugabo wambaye ikositime n'undi muganga ufite ikintu cy'amenyo ari kwereka umwana.

Icyumba cyo kwa muganga kiryamyemo umuntu urwaye, harimo umugabo w'umuganga n'umudamu, bakaba bafite ibikoresho, bari gupima umurwayi.

Umuganga wicaye mu cyumba cy'ivuriro, akaba yambaye itaburiya y'umweru n'isaha ku kuboko yicaye ku ntebe, iruhande hari gitanda baryamishaho uwarwaye n'akamashini basuzumisha uwarembye.

Umugabo cyangwa umusore ufite ubwanwa bukeya akaba yambaye ishati y'umweru ahagaze imbere y'indorerwamo cyangwa ikirori akaba ari kwireba yashyize akadodo mu kanwa kiwe.

Umugabo usa nkaho akuze cyane wambaye amarineti n'umudamu na we usa nkaho akuze wambaye rinete, ku meza imbere yabo hakaba hari amafunguro y'amoko atandukanye, bakaba bari kurya.

Mo imbere mu nyubako harimo umugabo usa nk'aho akuze cyane ufite ubwanwa bw'umweru, imbere y'iwe hari mudasobwa, kuruhande rwe hahagaze umukobwa ari kumuha imiti.

Umudamu usa nk'aho akuze ari kumwe n'umukobwa ufite ibisuko biryamye uri guseka, wambaye imyenda ya kiganga n'isaha ku kuboko ndetse umukecuru yambaye amaherena.

Mo imbere mu nyubako ahantu hari umusaza uri kugenda afashe ku byuma aba yambaye umupira w'umukara, umudamu umuri iruhande w'umuzungu wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara.

Umudamu cyangwa se umukecuru usa nkaho akuze, wambaye agapira kamufashe gasa ubururu ndetse n'umukenyero, inyuma yiwe hakaba hari amamodokari abiri ndetse n'inyubako, imbere yayo hari ibiti.

Abantu benshi batandukanye bicaye mu ihema ry'umweru, harimo abagabo ndetse n'abadamu bakuzemo cyane, hirya hari ibiti bihagaragara.

Umugabo usa nkaho akuze wicaye mu kagare kagenderaho n'ababana n'ubumuga bwo kutagenda, inyuma yiwe hari umudamu w'umuganga uri kumusunika anamuganiriza.

Umudamu usa nkaho akuze cyane wicaye mu cyo twakwita ubusitani ku gatapi yahashashe, ari gukora imyitozo ngororamubiri yicaye.

Umugabo ukuze twakwita nk'umusaza ufite imvi mu mutwe z'umweru ari kumwe n'umudamu na we ukuze umeze nk'umukecuru ufite imisatsi na we yera imbere yabo ku meza hateretse uducupa tw'imiti n'igikombe cy'amazi.

Umudamu usa nk'aho akuze cyane, ufite imisatsi yiganjemo imvi z'umweru, afite utuntu mu kiganza cyiwe bifashisha bakora imyitozo ngororamubiri.

Icyumba cyo kwa muganga kigaragaramo umuntu utagaragara neza ku gice cyo mu isura, akaba afite akuma bifashisha bagenda mu gihe mu maguru yawe adakomeye.

Umudamu usa nkaho akuze cyane wambaye amarinete akaba yiteze igitambaro kiri mu ibara ry'umukara yambaye umupira usa nk'aho ari uwimbeho inyuma yiwe hari umukobwa wumuganga wamufashe ku rutugu.

Umugabo ukuze cyane wambaye amarinete afite imisatsi irimo imvi z'umweru yambaye umupira w'amaboko magufinya afite utuntu mu maboko yiwe abiri ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Abantu babiri basa nkaho barimo imbere mu nyubako umwe ni umuganga w'umudamu wambaye itaburiya y'umweru n'akantu mu ijosi bifashisha basuzuma uwarwaye, umugabo wambaye umupira w'ubururu afite akantu mu kiganza.

Abantu barimo imbere mu nyubako umwe akaba ari umugabo usa nk'aho akuze cyane wicaye mu gatebe gasunikwa undi ni umudamu umufashe ukuboko.

Umugabo ukuze ufite imisatsi irimo imvi z'umweru, wambaye ishati iciyemo uturongo, ateruye umwana mutoya ufite igikinisho mu ntoki.

Umusaza usa nkaho yicaye mu ibase y'amazi, ufite imisatsi isa umweru. Akaba yambaye ubusa hejuru bigaragara ko ari umuntu uri kumwoza.

Mo imbere mu nyubako ahantu hicaye umugabo usa nkaho akuze cyane, wambaye amarinete, imbere yiwe hari umudamu w'umuganga ari kumupima areba uko ahagaze.

Abadamu babiri basa nk'abakuze, umwe yambaye umupira munini w'amaboko maremare ndetse n'igitambaro mu mutwe cy'umutuku, undi akaba yambaye ijakete ijya gusa umukara.

Umusaza n'umukecuru witeze agatambaro mu mutwe gatukura, ndetse akaba ari guseka, umugabo ukaba afite ubwanwa bujya gusa umweru.

Mo mbere mu nyubako ahagaragaramo umusaza wambaye umupira w'umweru, afite ikiyiko mu ntoki ndetse n'umudamu ufite ikirahure, uri gusuka icyo twakwita ji, imbere yabo hateretse imbuto.

Abantu bari hanze batandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo hari udutebe duhari, hari n'imbago zihari zisa nk'aho zifashishwa ku muntu wahuye n'ubumuga bwo kutagenda.

Mwimbere mu nyubako aharimo umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare akaba asa nk'aho akuze cyane yambaye amarinete arikumwe numudamu w'umuganga ufite udukoresho ari kumupima.

Abantu babiri basa nk'abakuze bari ahantu mu cyumba, ku meza hariho ibinini ndetse n'agakombe n'uducupa tundi tw'imiti, umwe ni umugabo wambaye amarinete, undi ni umudamu.

Abadamu babiri basa nk'aho bakuze umwe yicaye mu kagare k'ababana n'ubumuga bwo kutagenda, undi ni umuganga yamushyize agakoresho ku kuboko ari kumusuzuma.

Abadamu bari mu murima w'icyayi akaba ari munini iruhande rwabo hari igitebo bashyiramo ibyo bamajije gusarura biteze ibitambaro mu mutwe.

Umudamu usa nkaho akuze akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri, yarambuye agatapi mo imbere mu nyubako, yambaye agasengeri ndetse n'akantu mu izosi.

Abantu babiri bicaye mu nyubako imbere, inyuma yabo hagaragara intebe zitandukanye, akaba ari umugabo wambaye amarinete ufite ubwanwa b'umweru n'umudamu barikumwe, imbere yabo kumeza harambitseho impapuro.

Mo imbere mu nyubako ahagaragaramo umugabo ukuze cyane ufite imvi z'umweru, wambaye rinete, ku meza hateretseho ikirahure cy'amazi n'impapuro zifatanyije zihateretse, imbere yiwe hari umudamu umeze nk'aho ari kumuhereza imiti.

Umudamu umwe usa nkaho akuze cyane ari kumwe n'undi usa nkaho adakuze wambaye marinete ndetse n'umwana mutoya ufite imisatsi myinshi.

Umudamu usa nkaho akuze uri kugendera ku twuma twifashishwa mu kugenderaho, umuntu ufite amaguru afite ikibazo ari kumwe n'undi mudamu usa nkaho akiri mutoya.

umusaza ufite imvi z'umweru akaba afite ibinini mu ntoki ziwe imbere hateretse ikirahure cymazi ari kumwe n'umukecuru nawe ufite imvi z'umweru

Abana batatu barimo mo imbere mu nyubako, umukobwa wambaye umupira w'umweru ufite utumamiro tubiri, umugabo wambaye umupira utukura ufite isahani iriho imigati umukecuru mukuru wambaye amarinete.

Mi imbere mu nyubako igaragaramo abantu babiri, umudamu wambaye imyenda y'abaganga w'umuzungu wambaye isaha ku kuboko, n'umugabo uri kugendera ku kuma.

Abantu batandukanye bari ahantu mu murima, hakaba hari umudamu wamanitse isuka mu kirere wambaye isengeri y'umukara iriho umubare cumi na rimwe.

Abagabo babiri bakuze cyane harimo uw'umusaza, wambaye ingofero n'ishati y'amaboko maremare yazinze n'isaha ku kuboko bafatanye ku rutugu.

Abagabo babiri basa nkabari kwirukanka mu nzirara, hakurya hari ibiti n'akantu kajugunywamo imyanda gakozwe mu cyuma bakaba bambaye bose ibintu byera hejuru umwe afite agacupa k'amazi.

Abasaza babiri bakenyeye. Umwe umukenyero w'umukara, undi uw'umweru, bakaba bose bambaye ingofero. Umwe yambaye amarineti, inyuma yabo hari abantu benshi.

Abagabo babiri bahagaze bambaye amakoti, bose basuhuzanyije, umwe yambaye amarineti, undi afite igitabo ari kwerekana.

Abantu babiri bahagaze ahantu hameze nko muri sale iberamo inama, inyuma yabo hari intebe bicaramo z'umweru, umwe ni umugabo undi ni umudamu.

Abadamu bahagaze ahantu muri sare bafite ibintu mu ntoki, bakaba bambaye amapantaro agiye atandukanye, ay'umukara, amajingisi ndetse n'imipira y'umweru bose isa.

Mo imbere mu nyubako aharimo intebe za purasitike, hakaba harimo abantu bambaye imipira ijya gusa, hamanitsemo icyapa kinini cy'umweru cyanditseho amagambo n'undi muntu wambaye agapfukamunwa k'umukara umeze nk'aho ari gufotora.

Umugabo wambaye ishati yera ndetse n'ipantaro isa igitaka n'inkweto z'umukara ,wicaye muri salo n'umubyeyi n'abana batatu babiri bambaye imyenda y'iniforume.

Mu imbere kwa muganga haragaragaramo abaganga babiri batagaragara mu bice byo mu maso bambaye udupfukamuwa bombi bakaba bambaye na ga z'umweru bafite akamashini mu ntoki.

Abantu benshi bari muri sare mu imbere bamwe baricaye abandi barahagaze hakaba higanjemo abagabo bakuru ndetse n'abadamu bakuru.

Abantu basa nk'aho ari abaganga, bari ahantu hanze munsi y'igiti muri jaride; akaba ari umurwayi barambitse ku gatanda bagendana basa nk'aho bari kumuvura.

Abantu bicaye mu ibaraza ry'inyubako, bakaba ari abadamu bambaye ibitenge, hakaba harimo umwe wambaye ingofero itukura idoze mu budodo, irimo ibara ry'umweru.

Abantu batatu bari kumwe, bakaba bambaye udupfukamunwa bose, umwe yambaye ak'umweru abandi babiri bambaye utw'ubururu, bakaba bameze nkaho bari kumutera urushinge ku kuboko, umudamu wicaye.

Sare yicayemo abantu benshi batandukanye, abadamu ndetse n'abagabo, abicaye imbere ni abagabo batanu n'umudamu umwe.

Abantu bahagaze mo imbere mu nyubako, hakaba harimo abazungu babiri b'abadamu ndetse n'undi umwe w'umugabo n'abandi b'abirabura, bakaba bose bambaye utuntu mu ijosi twerekana ibyo bakora.

Abantu benshi bicaye muri sale harimo abadamu ndetse n'abagabo, intebe zikaba zisa umutuku, amarangi asizemo akaba ari umuhondo ndetse n'umutuku utari cyane.

Abantu benshi bari mu muhanda bagenda, bakaba ab'imbere bafite icyapa kinini cyanditseho amagambo manini ari mu ibara ry'umweru, akaba yiganjemo abambaye imipira y'imyeru ndetse n'amashati.

Abantu benshi bicaye muri sale wagira ngo bari mu nama runaka, hagaragara abadamu babiri, umwe w'umwirabura ukenyeye ndetse n'undi umwe w'umuzungu usa nk'aho akuze n'umugabo ubicaye hagati.

Abantu benshi bicaye muri sale iberamo inama, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, hejuru imbere hakaba hari abandi bambaye amakositime ndetse n'abadamu babiri.

Abantu bari ahantu hanze, hakaba hagaragara abaganga bambaye imyenda yabigenewe ndetse n'udupfukamunwa, imbere yabo hicaye umusaza w'akagofero gasa ubururu, bakaba bari kumusuzuma mu kanwa.

Abantu bicaye muri sale abandi bakaba bahagaze, harimo abadamu ndetse n'abagabo, inyuma yabo hakaba hari urwapa runini; rwanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi n'ari mu ibara ry'umweru.

Abantu babiri bahagaze mo imbere m nyubako, umwe ni umudamu wambaye ikanzu n'inkweto ndende, yambaye n'akantu mu ijosi kerekana icya akora n'umugabo wambaye kositime w'umuzungu.

Umudamu wicaye mu ntebe, wambaye ikarita mu ijosi ry'iwe, akaba yambaye n'amaherena, yambaye amarinete, afite mikoro mu ntoki z'iwe, ari gutanga ikiganiro.

Abantu benshi bicaye ahantu hameze, nko muri sale, inyuma yabo hakaba hari icyapa, kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Abantu bahagaze ahantu hameze nko muri sale, batatu ni abadamu basa nk'abakuze, bambaye amarineti, bakaba biteze n'ibitambaro byera, bari kumwe n'umugabo wambaye kositime.

Ni sare irimo abantu benshi, abadamu ndetse n'abagabo, bakaba bameze nk'abari mu kiganiro runaka, inyuma yaho hakaba hari icyapa kinini cyane cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Inyubako nini iri ahantu hitaruye, ikaba igaragara nkaho ari ivuriro rinini, imbere hakaba hari jaride ndetse n'agati katari kanini gateye imbere mu mbuga.

Sale yo kwa muganga igaragaramo ibikoresho byinshi bitandukanye hari utumeza dusunikwa baterekaho imiti bashyiriye abarwayi hakaba harimo n'ibitanda biryamaho abarwayi.

Icyumba cyo kwa muganga kigaragaramo ibikoresho byinshi bitandukanye, hari imashini isuzuma umuntu ndetse n'igitanda kiri imbere yayo barambikaho umurwayi ugiye gusuzumwa.

Sale yo kwa muganga nini ikaba irimo ibitanda baryamishaho abarwayi, hakaba hari umuganga ufite telefone mu mufuka w'inyuma w'umudamu ari kugenda mo imbere.

Mo imbere mu nyubako ahantu hagaragaramo intebe zitandukanye: hari izisa ubururu n'izindi zifite irindi bara ryaryo; hari kwakamo amatara hakaba hari n'ahantu bakirira ababagana.

Sale yo kwa muganga igaragaramo ibikoresho byinshi bitandukanyeharimo: amamashini asuzuma abarwayi, hakaba hariho n'ibitanda abarwayi baryamaho ndetse n'utumeza baterekaho imiti.

Inyubako igaragara irimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu gukora siporo ngororamubiri, hari ibyo bahagararaho baki rukanka gusa urebeye mu kirahure kiri hirya kimeze nk'idirishya urabonamo izindi nyubako zitandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga ahagaragaramo ibikoresho byinshi bitandukanye, hari utumeza bakunda guterekaho imiti dufite amapine bagenda basunika.

Sale yo kwa muganga, irimo amatara ari kwaka ndetse n'ibitambaro byifashishwa mu kugabanya utwumba abarwayi bagenda baryamamo.

Ivuriro rigaragara ahantu, hakaba harimo inyubako zitandukanye ndetse n'ibiti biteye mo imbere, hakagaragaramo umuntu uri ku igare n'undi uhagaze.

Inyubako igaragara yubakishijwe udutafari bita dutoya duhiye, iriho idirishya ry'umweru n'inzugi binjiriramo, hanze hari intebe ihateye, yicayeho abadamu.

Hanze y'inyubako ahagaragara idarapo riri ku cyuma kirekire, hakaba haparitse mo mbere imodokari iri ibara ry'umukara, hanze hari icyapa kinini cyerekana ibikorerwa mu imbere.

Icyumba cyo kwa muganga kigaragaramo intebe n'abantu bicaye, mu imbere hagaragaramo utubati turimo amarinete y'ubwoko bwose ndetse n'igishushanyo kiriho abazungu babiri.

Icyumba cyo kwa muganga kigaragaramo umuntu umeze nk'aho arwaye uryamye ku gatanda, wambaye ingofero y'umukara ndetse n'agapfukamunwa k'umukara, ari kumwe n'umuganga w'umudamu, wambaye itaburiya y'umweru.

Hanze y'inyubako igaragara n'urupangu runini rukozwe mu cyuma hakaba hariho icyapa cyerekana ibihakorerwa hahagaze umudamu uhetse umwana.

Inyubako igaragara yubakishije amatafari matoya ahiye, hakaba imbere hari indabyo zihateye ndetse n'igiti kitagaragara neza ku ruhande.

Inyubako igaragara igeretse inshuro eshatu, hejuru hari ibigega bifata amazi, hakaba hari n'imodokari iri gusohoka ijya muri kaburimbo, hanze hicaye umuntu ku gatebe ka parasitike.

Sale nini cyane igaragaramo ibikoresho by'ubwoko bwose, hari udutebe abantu baryamaho bari guterura ibyuma ndetse n'ibyuma byifashishwa mu kongera umubyimba w'amaboko y'uri kubikoresha.

Abadamu batatu bahagaze ahantu ku nzira, inyuma yabo hateye ibiti, bose bambaye imyenda y'ubururu n'utuntu mu mutwe twenda gusa ubururu.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo udutanda baryamishaho umuntu warwaye ndetse n'andi mamashini, bifashisha basuzuma uwarwaye.

Ahantu hagaragara inyubako zitandukanye, hirya akaba ari imisozi, hanze hakaba hahagaze abantu batagaragara neza, akaba ari igiti kigaragara amashami kiri hino, hino.

Icyumba cyo kwa muganga kigaragaramo udukoresho dutandukanye hari udushyirwamo ibintu tugenda dusunikwa agatanda barambikaho umurwayi ugiye kuvurwa n'imashini zimupima.

Icyumba cyo kwa muganga kigaragaramo ibikoresho byinshi bitandukanye, amamashini bifashisha basuzuma abarwayi ndetse n'insakazamashusho bareberaho ibipimo by'uwarembye.

Icyumba cyo kwa muganga, kigaragaramo umugabo uryamye ku gitanda, wambaye agapfukamunwa, asa nkaho arwaye, bamucometseho serumu.

Icyumba cyo kwa muganga kiri kwakamo amatara giteretsemo utumeza tw'icyuma dusunikwa bashyiraho imitikaba n'igitanda baryamishaho umuntu warwaye.

Sale nini irimo ibikoresho byinshi bitandukanye bifashisha mu gukora imyitozo ngororamubiri, hari amamashini bahagararaho birukanka, hari intebe bicaraho baterura ibyuma.

Inyubako nini igaragara igeretse ikaba hanze yaho hari abantu benshi bahahagaze higanjemo abambaye imipira y'ubururu, hanze y'igipangu hakagaragara n'imodokari ihagaritse.

Abadamu bicaye ahantu hanze basa nkaho babiri bakuzemo cyane, inyuma hari ibiti, imbere yabo hicaye umudamu w'umuganga wambaye amarinete. Afite udukoresho ari kubasuzuma.

Icyumba cyo kwa muganga gihagazemo abaganga batandukanye, abagabo ndetse n'umugore umwe, inyuma yabo hari igitanda kiryamishwaho umurwayi.

Sale nini cyane isa nk'aho iberamo inama zigiye zitandukanye, hakaba harimo intebe nyinshi ndetse n'utumeza twubatse duteretseho utumikoro bifashisha bavuga.

Icyumba cyo kwa muganga kiragaragaramo abadamu batatu, babiri ni abarwayi baryamye ku bitanda byo kwa muganga, umwe ni umuganga afite agakoresho mu ntoki, bifashisha basuzuma uwarembye.

Mu imbere mu nyubako isa nkaho ari nini cyane hakaba hamanitsemo taburo ishushanyijeho ibintu, harimo ibyumba byinshi bifite inzugi zo mu bibaho, hari kwakamo amatara.

Ibitaro by'inyanza bigaragaramo ibiti byinshi mo imbere ndetse n'inyubako igaragaramo yubakishijwe udutafari duto duhiye, urugi runini ruri mu ibara ry'ubururu rw'icyuma n'akapa kagaragaza ibibera mo imbere.

Abantu bahagaze hanze y'inyubako, inyuma haragaragara ibiti, hakaba higanjemo abadamu ndetse n'abagabo barimo abazungu ndetse n'abirabura.

Icyumba cyo mu ivuriro kigaragaramo igikoresho cyifashishwa mu gusuzuma indwara zirimo imbere umubiri w'umuntu, akaba ari n'agatanda gatoya bambikaho ugiye gusuzumwa.

Hanze y'inyubako iriho amadirishya manini cyane, hanze hamanitse ibintu by'ibyuma biriho ibitambaro byerekana ibibera aho, ndetse n'igiti kigaragaraho amashami gusa.

Sale nini yo kwa muganga irimo amamashini y'ubwoko bwose, akaba yifashishwa mu rwego rw'ubuvuzi, bapima umurwayi, basuzuma indwara yaba afite.

Igipangu kigaragara cyanditseho icyapa kinini kiri mu ibara ry'umweru kiriho amagambo atandukanye n'ikindi gishinze imbere kinini cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, umukara hakurya akaba ari umuhanda na moto igaragara igice gitoya.

Sale nini irimo ibyuma by'ubwoko bwose, hari ibyifashishwa mu gukora siporo ngororamubiri, waba wirukanka cyangwa se ukabiterura mu biganza.

Inyubako igaragara, isize irangi rijya gusa umuhondo, hanze ari ikivaze giteyemo ururabo rutarakura, hakagaragara umuntu wambaye imyenda ya gisirikare, uri kugenda.

Sale yo kwa muganga igaragaramo abantu batandukanye, hari umukecuru wicaye ku kagare gasunikwa k'ababana n'ubumuga bwo kutagenda n'umuganga umuhagaze imbere wambaye imyenda yera.

Icyumba gisa nkaho ari icyo mu ivuriro hagaragaramo ishusho y'umukobwa wambaye amarinete, akabati karimo amarinete y'ubwoko bwose ari kwakamo itara hejuru hamanitse ibintu.

Inyubako igaragara ifite amabati ajya gusa ubururu, hino hakaba hari igiti gitoya, hakaba hari n'icyapa cyanditseho amagambo manini yerekana ibikorerwa muri iyo nyubako.

Abantu bicaye hanze y'inyubako imeze nk'ivuriro, hakaba higanjemo abadamu ndetse n'umugabo uhagaze ariko utagaragara igice cyo mu maso, hakaba hari umudamu uhetse umwana muto.

Inyubako nini igaragara igeretse hanze haparitse amamodokakari menshi, inyuma ku gipangu hari icyapa kigaragaza ibikorerwa muri iyo nyubako.

Ivuriro rigaragara risize irangi rijya gusa umuhondo, rikorerwamo ubuvuzi bwerekeranye no kuvura kanseri, hanze hateye indabyo ndetse n'igiti kitagaragara neza.

Icyumba cyo kwa muganga kigaragaramo abaganga babiri b'abadamu na babiri b'abagabo, hakaba hari icupa ribatetse imbere ndetse n'akuma gacometse.

Inyubako igaragara isa nkaho ari ivuriro, imbere hakaba hari umuntu wicaye ku ntebe ndetse n'abandi batatu bahagaze imbere, umwe wambaye umupira w'umweru.

Inyubako ihagazemo abantu benshi, hari umuganga uhagaze imbere y'insakazamashusho, yifashishwa mu kureba ibisubizo runaka, yambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa k'umutuku.

Imbere mu nyubako isa nkaho ari ngari, ikaba ishobora kuba ikorerwamo ubuvuzi, hagaragaramo amamashini atandukanye, utubati tubikwamo imiti.

Hanze y'inyubako ahagaragara ibiti bitandukanye akaba, hakaba hari n'amapoto y'imiriro ndetse n'amatara maremare y'ibyuma, inzu yubakishijwe amatafari matoya ahiye, akayira kubatse mu mapave.

Inyubako igaragara isa naho igeretseba hagaragara icyapa kinini cyanditsweho amagambo ari mu ibara ryera uba wagirango ngo hakorerwemo ubucuruzi bw'imiti ivura abarembye.

Inyubako igaragara iriho inzugi ndetse yubakishijwe amatafari matoya ahiye impande ari ibigega bibikwamo amazi ndetse n'indabyo impande ya jaride.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bujyanye n'imiti yifashishwa mu buzima bwa buri munsi, harimo utubati twinshi turimo imiti y'amoko menshi.

Icyumba cyo kwa muganga kigaragaramo ibikoresho byinshi bitandukanye hari akameza baterekaho imiti bashyiriye umuntu urwaye hari igitanda kiryamishwaho uwarwaye.

Inyubako igaragara ikorerwamo ubuvuzi, akaba ari ivuriro ry'i Gisenyi, hanze hakaba hari abantu benshi bahari, hanze y'igipangu hari umunyegare uhetse umuntu ufite indobo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu kwita ku muntu warembye, harimo igitanda kiryamishwaho umurwayi ndetse n'intebe.

Icyumba cyo kwa muganga kigaragaramo utubati bashyiramo inyandiko cyangwa se imiti hakaba harimo igitanda baryamishaho umuntu warwaye n'imashini igenda ipima uko ubuzima bwe buhagaze.

Abantu benshi bahagaze hanze y'ivuriro, hirya hari ihema ry'umweru ryicayemo abantu batandukanye harimo: abadamu ndetse n'abagabo.

Mo imbere mu nyubako ahagaragaramo intebe zitandukanye, hari izifite amapine agenda n'izindi zisanzwe zo kwicarwaho, haragaragaramo n'indabyo ziri mo imbere.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, hari igitanda baryamishaho umuntu warwaye, n'amamashini bifashisha basuzuma umurwayi.

Ahantu hanze y'inyubako hagaragara abantu baba bagabo ndetse n'umudamu umwe, bakaba bafite icyo twakwita udupaniye turimo ibintu bitagaragara bari kugenda basatira inyubako.

Mu imbere mu nyubako ahantu hagaragara inzugi nini zifite ibirahure zikozwe mu cyuma, hakurya hari ahantu hateretsemo intebe ndetse n'imeza wagira ngo ni sare iberamo inama.

Icyumba cyo kwa muganga kigaragaramo ibikoresho byinshi byifashishwa mu buvuzi hari imashini ifasha gusuzuma umurwayi ndetse n'agatanda kayiri imbere.

Sare iberamo inama hakaba hicayemo abantu batandukanye ndetse imbere yabo ku meza hateretse uducupa tw'amazi abari imbere bakaba ari abagabo n'umudamu, inyuma yabo hari icyapa.

Inyubako zigaragara imwe isize irange ry'umweru ifite amadirishya ndetse imbere yayo hari ikigega cyifashishwa mu kubika amazi muri jaride hateyemo igiti kitarakura.

Icyumba cyo kwa muganga kigaragaramo amamashini y'ubwoko bwose, hari ipima umuntu bamwinjije mo imbere, hakaba hari agatanda barambikaho ugiye gusuzumwa.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umugabo ndetse n'umudamu w'umuganga n'undi mukobwa uryamye ku gitanda, akaba ameze nk'aho arwaye, bakaba bari ku kumupima.

Inyubako igaragara harimo amatara ari kwaka, hakaba harimo kamera ifata amashusho ndetse n'urugi rugaragara ruriho ikirahure kinini rw'icyuma n'amarangi y'umweru asize mo imbere.

Icyumba cyo kwa muganga gisa nkaho ari ububiko burimo utubati dutandukanye, hakaba harimo amashashi agiye arimo amaraso, bifashisha bongera umuntu warwaye wayabuze.

Hanze y'inyubako ahantu hashinze idarapo ku cyuma kirekire muri jaride, hakaba hateye n'ibiti bitandukanye; inyubako zisize amarangi asa umweru n'umuntu ugaragara ari kugenda hanze.

Inyubako isa nkaho igeretse, hanze hakaba hari uduti duteye mu ivaze, haparitse imodokari ebyiri z'amavatiri, hakaba hari icyapa cyanditseho amagambo, agaragaza ibikorerwamo imbere mu nyubako.

Abantu batanu bahagaze hanze y'inyubako, hakaba harimo bane b'abadamu n'undi mugabo ubahagaze hagati, harimo uwambaye akantu k'umweru.

Inyubako zigaragara zisize amarange ajya gusa umuhondo, amabati atukura, hanze hari igiti ndetse n'imodokari zimwe ziparitse indi iri kugenda na moto n'abantu bahahagaze.

Mo imbere mu nyubako ahagaragara nkaho ari mu bubiko bwimiti y'amoko atandukanye, haragaragaramo udukarito bashyiramo imiti, turi mu kayitajeri gakozwe mu byuma.

Mu cyumba cyo kwa muganga ahari umuntu w'umudamu umeze nk'aho ari umuganga, yambaye imyenda y'imyeru ndetse yambaye n'utuga n'akantu k'agakomo ku kuboko kwiwe.

Umugabo wicaye kuri fondasiyo yubakishijwe amabuye, akaba ari munsi y'igiti kinini gifite amashami menshi, yambaye ishati n'ipantaro.

umugabo wicaye mu cyumba cyo kwa muganga yambaye itaburiya ijya gusa umweru n'isaha ku kuboko kwiwe, impande y'iwe hari igitanda baryamishaho umurwayi.

Inyubako nini, igaragaraho amarangi yiganjemo ay'umweru, hariho amadirishya menshi, muri jaridi hateye udukindo dutoya impande, haparitse imodokari itagaragara neza.

Icyumba cyo kwa muganga kigaragaramo intebe ndetse n'igitanda baryamishaho umundwayi hakagaragaramo insakazamashusho bareberaho ibipimo by'umudwayi ndetse n'imashini.

Sare yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye, hari intebe, utuntu bajugunyamo imyanda, ibitanda bitandukanye baryamishaho uwarwaye.

Inyubako igaragara hanze hakaba hari ibiti bitoya, hari umugabo w'ipantaro y'umukara n'ishati itukura uri kugenda, akaba yifashe mu mufuka, undi uri hano hino w'umupira w'umutuku uhagaze.

Akabogisi cyangwa se igikapu kibika imiti y'amoko atandukanye, hari iri mu dukarito, hari iri mu dukombe ndetse imbere hakagaragara akantu gashinzemo imakasi.

Umuntu wicaye mu bwatsi, akaba yambaye isengeri ijya gusa umukara, akaba yambaye n'agakabutura gatoya, afashe ibiganza bye, ari kwikanda mu itako.

Icupa riri mu bwoko bwa purasitiki rifite agafuniko kajya gusa ubururu, rikaba ryifashishwa mu kubika amazi, hakaba rero harimo amazi yuzuye.

Igishushanyo cyerekana abantu uwambaye imyenda y'ubururu yiziritse akantu mu nda k'umukara, undi wambaye imyenda y'imyeru bameze nkaho bari gukora siporo yo gukirana.

Inyubako ikorerwamo siporo ngororamubiri, harimo umudamu wambaye agakabutura kagufi n'agasengeri k'icyatsi, ufite imisatsi myinshi ari gusunika ibyuma.

Umudamu utagaragara neza mumaso n'ibice byo hasi, akaba yihambiriye akantu k'umukara mu mutwe ndetse n'akandi kantu gatoya kaziziritse umusatsi inyuma bisa nkaho ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Abari ahantu mu biti bambaye imipira ijya gusa umweru, imbere hari abahari bambaye utwenda dutukura tw'utujiri bisa nkaho bakorera umuryango ufasha abantu, bateruye umuntu usa nk'aho yababaye cyane.

Abagabo babiri bari mo imbere mu nyubako, hari umwe uhagaze n'undi upfukamishije ivi rimwe wambaye umupira w'ubururu n'agakabutura k'umukara gatoya, ateruye ibyuma mu maboko yiwe yombi.

Umugabo uhagaze ahantu hanze, akaba yambaye agakabutura k'umukara, amasogisi y'umweru n'inkweto ndetse n'isengeri isa ibara ry'umukara, akaba yamanitse akaguru ahantu hejuru ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Uducupa tugaragara dutatu turi mu ibara risa umweru, inyuma hakaba hariho icyapa kigiye cyanyanditseho amagambo atandukanye, ari mu ibara ry'umweru, ari mu ibara ry'umuhondo, tukaba dukoreshwa mu kubika imiti.

Icyumba cyo kwa muganga kigaragaramo abantu babiri baryamishijwe ku dutanda basa nk'aho barwaye bari kumwe n'abaganga bari kubitaho babavura.

Icyumba cyo kwa muganga kigaragaramo umuntu wicaye ku ntebe akaba afite uburwayi bw'akaguru, hakaba hari n'umuganga uhagaze wambaye itaburiya y'umweru, uri kumusuzuma.

Icyumba kigaragaramo umusore wambaye umupira w'amaboko magufiya, afite akuma bifashisha bagorora amaboko, ari kumwe n'umuganga w'umudamu, asa nkaho ari kumubwira ibyo akora.

Akuma kifashishwa mu rwego rwo kuvura, kakaba kari mu ibara ry'ubururu, gafite akantu bifashisha bashyira umuntu mu gituza ndetse n'utuntu tw'umukara, bifashisha bashyira mu gutwi.

Umugabo wicaye ahantu ku masikariye, inyuma y'iwe hakaba hari inyubako itagaragara neza, afite agasume ku rutugu n'icupa mu ntoki, ari kunywa amazi.

Umugabo utagaragara neza mu isura, ufite ubwanwa butari bwinshi, akaba yambaye akantu k'icyatsi ku kuboko, yambaye isengeri y'umukara, afite icupa mu ntoki ari kunywa amazi.

Umugabo uryamye ahantu mu nzu ku gatapi, yambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'amaboko aciye, akaba yiziritse umugozi ku kuguru ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo uhagaze ahantu hameze nkaho ari hanze, akaba yambaye isengeri iri mu ibara ry'icyatsi, akaba afite icupa mu ntoki, ari kwimena amazi mu isura.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umuntu uryamye ku gitanda ndetse n'umugabo w'umuganga wambaye imyenda y'ubururu, yafashe ukuguru k'umurwayi ari kumugorora.

Agatanda kagendanwa mu ntoki k'akuma gafite aho bafatisha amaboko, kakaba kari mu ibara ry'ubururu, kakaba gasizeho n'akandi kabara kenda gusa umuhundo.

Inkweto igaragara iteretse ahantu hasi, ikaba irimo rase z'umukara, na yo ikaba iri mu ibara ry'umukara, hari agapapuro kariho kerekana ko ari nshyashya, na ko kariho amagambo y'umukara.

Ikirahure kifashishwa mu kunyweshwa ibintu bitandukanye giteretse hasi, kikaba kiri gusukwamo amazi aturutse mu ijage ikozwe mu kirahure.

Umuntu utagaragara mu gice cyo ku isura akaba yambaye agakabutura kagufinya k'umukara akaba yafashe amaboko yiwe ayashyira ku itako arikwikanda ameze nk'uwababaye.

Umugabo uri ahantu hameze nko mu nzu, akaba yambaye agakabutura gatoya k'umukara n'umupira w'amaboko magufinya, akaba yambaye inkweto n'amasogisi, ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Abantu babiri bose batagaragara igice cyo hejuru mu isura, umwe ameze nkaho ari umuganga wambaye itaburiya y'umweru, undi wicaye ku ntebe afite akuma mu ntoki bakoresha bagorora amaboko.

Umudamu usa nkaho yicaye ahantu mu kibuga, akaba yambaye agakabutura kajya gusa ibara ry'ubururu n'uturongo tw'umweru ku ruhande, akaba yambaye n'agasengeri gatoya, ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umudamu wicaye ahantu hasi ku gatapi akaba yambaye agapantaro kamwegereye, kari mu mabara y'ubururu n'agasengeri kenda gusa n'iyo pantaro, afite umusatsi mwinshi cyane; ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umudamu cyangwa se umukobwa utagaragara neza mu maso, yicaye mo imbere mu nyubako ku gatapi kajya gusa ubururu, ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umudamu utagaragara igice cyo hejuru yambaye akantu mu ijosi ndetse n'ishati y'umweru, akaba yambaye n'impeta ku kuboko, afite akantu kameze nk'ishashi ari kwikandisha ku kuboko.

Umukobwa cyangwa se umudamu ufite imisatsi mikeya, akaba afite akayesuwime ku rutugu gasa umweru, afite icupa ari kunywa amazi.

Abantu batagaragara neza bose mu maso umwe aricaye ni umudamu, undi yambaye itaburiya y'umweru asa nkaho ari umuganga ari kumukanda mu mavi.

Icyumba cyo kwa muganga kigaragaramo abantu baryamye ku bitanda ndetse hari umubyeyi wambaye imyenda y'ibitenge, n'akana gatoya kamwicaye imbere.

Ikirahure kigaragara cyifashishwa mu kunywa ibintu byinshi bitandukanye ndetse n'icyo bita ijage na yo ikozwe mu kirahure hari amazi ari gusukwa mu kirahure giteretse hasi.

Icyapa kigaragara cyanditseho amagambo atandukanye, nimero rimwe akaba ari umuntu uri kugenda, nimero kabiri ni umuntu wicaye ku mashini banyonga bakora siporo, nimero kane ni umudamu wateruye icyuma akaba yambaye agapantaro k'umukara n'agasengeri k'umutuku.

Inkweto y'amenyo bakunda kwita godiyo, ndetse n'umupira, baro, uri mu ibara ry'umukara n'umweru n'akuma bifashisha bapima umuntu.

Umuntu utagaragara mu gice cyo mu isura, akaba yambaye isengeri y'ubururu bwacuye, akaba yashyize ukuboko kw'ibuye mu mugongo asa nk'aho ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu uhagaze ahantu hameze nko mu muhanda, akaba ari umudamu wambaye isaha ku kuboko, yambaye ikabutura ngufiya cyane, ndetse n'agasengeri kajya gusa icyatsi.

Umudamu cyangwa umukobwa ugaragara, uhagaze hanze, akaba yambaye isenyeri irimo amabara atandukanye: ubururu, icyatsi n'umweru, ku rutugu rw'iwe hakaba hari isume y'umweru, afite icupa mu ntoki, ari kunywa amazi.

Ukuboko k'umuntu utagaragara ku bindi bice byose, kukaba gufite agacupa ka purastiki mu kiganza, kakaba kuzuyemo amazi yo kunywa.

Abantu bari ahantu mu mbuga ikikijwe n'ibiti by'amoko yose, bakaba bameze nk'abari gukora imyitozo ngororamubiri, harimo abadamu ndetse n'abagabo.

Umugabo wicaye ahantu hanze hasi akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye ipantaro y'umukara n'umupira wamaboko magufi w'umuhondo.

Imiti y'amoko menshi irambitse ahantu igiye iri mu dukarito indi iri mu ducupa hakaba hari n'utundi turi mu dupapuro dutoya ndetse n'utuntu bifashisha bazirika.

Ishusho iriho abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri itandukanye, hari umukino wo kurwana, hari umukino w'umupira w'amaguru ndetse n'umukobwa w'isengeri y'umweru wicaye ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Ibintu bitandukanye biteretse ahantu hameze nko ku meza. Hari ironji risatuyemo kabiri ndetse na pome. Hari urusenda. Hari agacupa k'amazi ndetse n'akuma aterura mu kiganza.

Akuma bafata mu ntoki ko kwa muganga bahereza abantu babana n'ubumuga bwo kugenda, kakaba kari mu ibara ryenda gusa umukara, kakaba kariho agashumi karereta ku ruhande.

umusore uhagaze ahantu hitaruye umeze nk'aho ari muri siporo yambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso ndetse n'isengeri ntoya.

Umuntu upfukamye ahantu hameze nko mu muhanda utagaragara igice cyo mu maso, yambaye amasogisi y'umweru, ikabutura ngufinya y'umukara n'umupira w'amaboko maremare.

Akamashini ko kwa muganga kariho akantu abantu bareberamo amashusho y'ibipimo umurwayi afite, kakaba gafite amapine bagenda basunika.

Umugabo cyangwa umusore utagaragara igice cyo hasi no mu isura, ufite ubwanwa bukeya cyane, afite agacupa k'amazi ari kuyanywa.

Ubwoko bwinshi bw'imiti irambitse ahantu hameze nko ku meza, hari iri mu ducupa, hari iri mu tuntu tw'udukarito, hakaba hari n'agakoresho bifashisha bapima umuriro.

Umukobwa cyangwa se umudamu wicaye ahantu hanze yambaye ipantaro yumukara imwegereye ndetse n'isengeri imwegereye ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Icyumba cyo mu ivuriro runaka hicayemo umuntu uhambiriye amabande ku kirenge nkaho yavunitse, yambaye ikabutura ndetse n'umupira, hakurya naho ukabona undi wicaye impande ye hari imbago.

Udukarito dutoya duteretse hasi turi mu ibara ry'umweru, inyuma handitseho amagambo ari mu mabara y'umutuku atagaragara neza, hometseho utuntu tw'amabara atandukanye: umuhondo, umutuku, icyatsi, ubururu n'umukara.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abantu bahagaze, hari abaganga babiri bagaragara ku murwayi uryamye ku gitanda bakaba bamushyize icyuma ku kuguru kwiwe kw'iburyo gusa nk'ukwavunitse.

Ahantu mu kibuga hakorerwamo siporo y'umupira w'amaguru, hagaragaramo abantu babiri bambaye amajire y'umutuku n'undi uryamye hasi, hari imiti bari kumushyira ku kuguru kwiwe.

Umuntu wicaye ahantu hameze nk'aho ari mu nyubako, akaba yambaye agapantaro k'agakora k'umukara ndetse n'agasengeri k'umukara. Ku kuboko kwiwe kw'iburyo ari telefone iziritse ndetse yambaye n'utuntu mu matwi ari kumva umuziki.

Ikibuga gikinirwamo umukino bakunda kwita rugubi ukinishwa amaboko, haragaragara umuntu wicaye ku gatanda utagaragara mu gice cyo mu maso, wambaye umupira uriho umubare ugaragara neza akaba ari rimwe, amasogisi ariho akavi.

Imiti iri mu bwoko butandukanye irambitse ahantu, hari iri mu ducupa, hari n'indi iri mu dushashi tw'umweru, hakaba hari na ga abaganga bambara bari gukurikirana umuntu urembye.

Umuntu urimo imbere mu nyubako ahantu hameze nk'ahakorerwa imyitozo ngororamubiri, akaba yambaye agakabutura kamufashe mo imbere harimo kora, gafite uturongo tw'umweru mu mpande, yambaye n'umupira w'umukara n'udukomo turi ku maboko yiwe.

Umugabo wambaye akajiri k'icyatsi ufashe umuntu wari umeze nkaho ari kwirukanaka wambaye isengeri itukura imbere haricyapa kiriho imibare 3 5 0 2.

Umuntu utagaragara igice cyo hejuru wambaye ipantaro ijya kwera ninkweto zijya kwera akaba yambaye insimburangingo y'ukuguru isa nkaho igaragara ko yavunitse ukuguru.

Imipira y'amoko atandukanye yifashishwa mu mikino itandukanye, harimo umupira w'amaguru, umupira w'amaboko ndetse n'indi mipira bakina bifashishije udukoresho bafata mu ntoki n'agakoresho ko kwa muganga bapima umuntu bashyize mu gituza.

Ibimera biri mu moko atandukanye birambitse ahantu ku meza y'urubaho harimo pome ndetse n'ironji n'ikirahure kirimo icyo kunywa.

Imodokari y'umweru iri muri kaburimbo ikaba yifashishwa mu buryo bwo gutwara abantu barembye cyane, babavana mu bitaro bimwe babajyana mu bindi.

Sare ikorerwamo imyitozo ngororamubiri hakaba hari umugabo urimo wambaye ikabutura y'umukara irimo ibara ry'umutuku n'umupira w'umutuku ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Amaboko ajya gusa inzobe akaba afashe akantu k'umukara, kakaba kifashishwa mu kukambara mu buryo bwo gukora imyitozo ngororamubiri.

Ikibuga kigaragaramo abana benshi bambaye imyenda itandukanye, hirya haragaragara ibiti bitari binini cyane, imbere yabo hahagaze umuntu uri kuberekera ibyo bakora.

Umuntu ugaragara amaboko ufite ikaramu n'urupapuro ndetse n'ibintu ari kwandika imbere yiwe hari udukoresho twinshi dutandukanye harimo isaha n'utundi bifashisha bakora siporo z'amaboko.

Umuntu usa nkaho arimo imbere mu nyubako, akaba apfukamye ku gatapi yambaye ikabutura y'umukara ndetse n'isengiri isa umukara, ntagaragara neza mu maso.

Abantu babiri bagaragara, umwe akaba yicaye ku gatanda, ukuguru kumwe kuriho urukweto ukundi ntarukweto ruriho, yambaye umupira w'umukara n'ikabutura y'umukara, ari kumwe n'umuganga.

Ikirahure gisa nk'aho giteretse ahantu, kikaba cyifashishwa mu kunywa ibinyobwa byose bisukika, hakaba hari ijage irimo amazi na yo yo mu kirahure, baba bari gusuka amazi mu icyo gikoresho.

Umugabo uhagaze ahantu hameze nko mu nzira, akaba yambaye isengeri, afite ubwanwa bukeya, afite icupa mu ntoki ari kunywa amazi.

Icyumba kirimo umuntu uryamyemo wambaye umupira w'umweru n'ikabutura isa icyatsi, ari kumwe n'umuganga uri kumusuzuma ukuguru.

Ikibuga kigaragara gisa nk'ikiberamo imikino y'amaboko, haragaragaramo abana benshi basa nk'aho bari gukina, babiri bo hakurya bafite baro bayimanitse hejuru.

Imashini iteretse hasi iragaragaraho utubuto tw'imibare, ikaba iri kumwe n'umugozi wayo bacomeka kugira ngo yake, ikaba yifashishwa mu bitaro kwa muganga.

Ibiganza bifite ubwoko butandukanye bw'imbuto, hasi haragaragara inkweto ndetse n'utwuma baterura mu ntoki, hari voka isatuye ndetse na pome n'urusenda.

Agatanda akenshi bagendana mu modokari cyangwa se tuba turi mu bitaro kwa muganga, akenshi twifashishwa ku bibuga biberaho imikino itandukanye, hariho utugozi tw'umukara bazirika umuntu uriho wagize ikibazo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu kwita ku bantu barwaye, harimo amamashini apima uko abarwayi bahagaze ndetse hari n'abaganga barimo, bamwe bicaye abandi bahagaze.

Abantu batatu bagaragara mu ishusho bambaye imyenda ya siporo Udupantaro dusa umuhondo umwe akaba yambaye umupira w'umweru abandi bakaba bambaye imipira y'umutuku irimo uturongo tw'umuhondo.

Umugabo cyangwa umusore uhagaze wambaye umupira w'amaboko magufi ku rutugu rwe hakaba hari isume y'umweru afite icupa mu ntoki ari kunywa amazi.

Abantu babiri batagaragara neza igice cyo hejuru, umwe afite amabande ku maboko yombi, asa nk'aho yambaye agakabutura kagufiya mo imbere harimo kora.

Umusore ndetse n'umukobwa bari ahantu hitaruye, umwe yicaye ku ntebe ndetse imbere yabo hari ibikapu by'umukara, umudamu yambaye ikabutura ngufinya n'agasengeri.

Ahantu hameze nkaho ari mu kibuga gikinirwamo umukino runaka hagaragaramo umusore wambaye ikintu kimupfutse mu isura ndetse n'umudamu usa nkaho ari kumuzirika akantu ku kuboko.

Umuntu w'umudamu wicaye ku gatapi ahagana mu nzu, akaba yambaye agapantaro kajya kwera kamufashe ndetse n'agasengeri kajya kwera, ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Abantu babiri bicaye bateranye imigongo, umwe ni umugabo undi ni umugore, bombi bafite uducupa bari kunywa amazi, bameze nk'aho bari muri siporo.

Ikimera kiri ahantu mu murima kikaba kikiri gitoya kitarakura cyane, hariho utubabi dutoya, kikaba cyifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Agacupa gatoya k'umweru gateretse ahantu hasi, hakaba handitseho amagambo manini ari mu ibara ry'umukara n'andi ari mu ibara ry'umweru ari ahagana hasi.

Igihingwa kigaragara kirambitse ahantu, hari igikataguyemo uduce, ikindi kikaba kikiri cyose, kikaba cyifashishwa mu guteka icyayi ndetse no kuvura indwara zo mu mihogo.

Umudamu utagaragara neza mu gice cyo ku isura, ikiganza cy'iwe kikaba kirimo agacupa gatoya k'umukara, kanditseho amagambo yerekana ibiba birimo imbere.

Uducupa tubiri tugaragara tw'umuhondo ariko hejuru k'umufuniko ukaba ari ibara rijya gusa shokora impande hakaba yateretse ikirahure kirimo ibintu bisa umweru.

Ikimera kiri ahantu mu murima hitaruye kikaba gifite utubabi tugiye dutandukanye, kikaba cyifashishwa mu buvuzi bwa gakondo kuvura indwara nyinshi zitandukanye.

Ikimera kigaragara gisa nk'aho kiri mu murima, kikaba gifite utubabi dusa nk'aho ari dutoya tw'icyatsi, kikaba kifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Ibikombe bitandukanye biteretse ahantu, bikozwe mu kirahure, bifite imifuniko y'umweru n'iy'ibara ritukura, inyuma hometseho udupapuro twerekana ubwoko bw'imiti burimo imbere mu bikombe.

Isoko rusange rigaragaramo abantu benshi, hakaba harimo ibiribwa by'amoko atandukanye, ku meza imbere harimo ibikombe birimo imiti ya kinyarwanda, yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Uducupa duteretse ahantu hakaba hari n'agakarito gahari k'ibara ry'umweru, ariko inyuma hakaba handikishijweho amagambo mu ibara ryenda gusa icyatsi, hanyuma utwo tundi inyuma handikishijweho ibara ryenda gusa umutuku.

Ikimera kiri ahantu mu murima kitagaragara neza, kikaba gifite utubabi dutoya turi mu ibara ry'icyatsi, kikaba cyifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Akabido gateretse ahantu kari mu ibara ryera, gafite umufuniko w'ibara ry'ubururu, inyuma kandi handitseho amagambo mu mabara atandukanye.

Igihingwa kirambitse ku kantu k'akabaho ahagana hasi, kikaba gifite utwatsi dutoya cyane, kikaba cyifashishwa mu buvuzi bwa gakondo n'indwara zitandukanye.

Ibimera biri mu moko atandukanye birambitse ahantu hasi, hari ibifite utwatsi tunini ndetse n'utubabi dutandukanye n'agasekuru kari hagati yabyo bifashisha basekura.

Isahani irambitseho ibihingwa by'amoko atandukanye, hakagaragaraho agasekuru kari kumwe n'agahini ndetse n'icupa rikozwe mu kirahure, imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Amoko menshi atandukanye y'ibimera biri ahantu bihinze mu rugo, bikaba bifite udushami tw'icyatsi, bikaba byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Uducupa dutoya ndetse n'udukarito twifashishwa mu kubika imiti kaba hari utw'umuhondo tugaragaraho ikimera tukaba twanditseho amagambo ari mu ibara ryenda gusa shokora.

Ibimera by'amoko atandukanye, biteye mu ndobo zenda gusa umukara, bikaba bifite utubabi dutoya tw'icyatsi, bikaba byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Amoko atandukanye menshi y'ibimera, ari mu mavaze abumbye mu ibumba, bikaba bifite amababi agiye atandukanye, byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Igihingwa kirambitse ahantu kimwe ni kinini ni cyose, ikindi ni igisate bigaragara ko ari ipapayi yifashishwa mu mafunguro nk'imbuto.

Uducupa dutatu dutoya dukozwe muri pulasitike duteretse ahantu hameze nko ku meza, turi mu ibara ryera, inyuma ku cyapa hakaba handitseho amagambo ari mu mabara atandukanye.

Ikimera kiri ahantu mu murima kimeze nk'igitoshye, gifite utubabi dutoya ariko tureture; kikaba cyifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Ikimera giteye ahantu inyuma y'urugo, kikaba gifite udushami dutoya cyane, kikaba kimeze nk'icyaguyeho akavura gakeya, kifashishwa mu buvuzi gakondo.

Etajeri igaragaramo ibikombe byinshi bitandukanye, byifashishwa mu kubika imiti y'amoko atandukanye, inyuma hakaba hometseho ibipapuro byanditseho amagambo agaragaza ibiba biri mo imbere mu gikombe.

Ikimera kiri ahantu mu murima hakurya hakaba hari ibyatsi bitagaragara neza, kikaba gifite udushami duto duto cyane tw'umweru, cyifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Agasahani gateretseho icyo twakwita itasi, byombi bikaba bisa umweru, biteretse ku meza y'urubaho, hakaba harimo ji ndetse n'uduce twinshi tw'irongi na tangawise igaragara ku ruhande.

Udukarito n'udukombe duteretse ahantu tukaba twifashisha mu kubika ibintu neza hakaba harimo n'imbuto iri mu bwoko bw'inanasi ikaba bayirenza ku biryo akenshi.

Ameza ateretseho imiti y'amoko menshi yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, hari umudamu uhahagaze witeze igitambaro cy'umweru ndetse n'undi w'umugabo umuri imbere.

Ibimera bitandukanye biri mu moko menshi, hakaba hari agacupa gatoya ko mu kirahure gateretse hagati, bikaba byifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Akabido kari mu ibara ryenda gusa ubururu, kakaba gafite agapfundikizo kenda gusa ibara ry'icyatsi, inyuma hari amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu.

Ikimera kiri ahantu mu murima urimo utwatsi dukeya, utwumye n'ututaruma, kikaba gifite utubabi dutoya tw'icyatsi; cyifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Uducupa dutoya duteretse ahantu tukaba dukoreshwa mu kubika imiti y'amoko atandukanye, inyuma haragaragaraho icyapa cyanditseho amagambo yerekana ibirimo imbere.

Ibikombe mudukarito bigaragara bikaba byifashishwa mu kubikwamo ibintu bitandukanye hagaragara inanasi iteretse inyuma yatwo ndetse n'imineke iri ku ruhande.

Imiti y'amoko menshi atandukanye, hari ibinini, biri ku tuntu tumeze nk'utuyiko, hari n'ibimera biri mu kintu cy'ikirahure, n'uducupa turi ku mpande.

Agacupa gatoya cyane gateretse gacuritse, kari mu ibara ryera, kakaba kanditseho amagambo manini ari mu ibara ry'icyatsi ndetse n'ibimera bigashushanyijeho.

Ikimera kiri mu murima gisa nk'aho gifite ibibabi binini bijya gusa icyatsi, bikaba byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, kuvura indwara nyinshi zitandukanye.

Ikimera kiri ahantu hameze nko muri jaride hakaba hari ikiri imbere gifite icyo twakwita uturabo turi mu moko atandukanye udusa umutuku, udusa umweruru ndetse n'umuhondo kikaba cyifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Ikimera kigaragara kiriho udushami dutoya cyane kimeze nk'aho kitarakura, cyifashishwa mu gukora imiti itandukanye mu buvuzi bwa gakondo.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare iciyemo uturongo, akaba akikijwe n'imiti y'amoko menshi, iri mu bikombe ndetse n'iri mu ndobo.

Utunini twinshi turambitse ku kibabi kirambitse ahantu, akaba ari igihingwa cyifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye mu buvuzi bwa gakondo.

Ibihingwa by'amoko atandukanye birambitse ahantu hasi haba hari akuma gatoya kameze nk'aho ari umunzani gateretse ku kantu k'urubaho bikaba byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Agacupa gatoya gacuritse ndetse kari mu ibara ry'umweru, inyuma hari amagambo ashushanyijeho, ari mu ibara ryenda gusa umuhondo n'andi matoya ari mu ibara ryenda gusa umukara.

Udukarito tubiri tugaragara turiho amabara menshi atandukanye, hakaba handitseho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru, hakaba hariho amabara y'icyatsi, ubururu.

Ibimera biri mu moko atandukanye, bimwe bikaba bifite utwatsi dutoya cyane tw'utubabi ndetse bikaba byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Ibimera bitandukanye biteretse ku meza y'icyuma bikaba bifite amashami ajya gusa ibara ry'icyatsi bikaba byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Ibimera biri ahantu mu murima, bikaba bifite amashami asa nk'aho ari manini atoshye, bikaba byifashishwa mu buvuzi bwo kuvura indwara nyinshi zitandukanye.

Akabati kagaragaramo imiti y'amoko atandukanye ibitswe mu bikoresho bitandukanye hari ibikombe bifite imifuniko y'imihondo ndetse n'ibindi biri mu macupa atandukanye.

Ikimera kiri ahantu mu murima, kikaba gifite udushami tw'icyatsi tutari tuini cyane, kikaba cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Agacupa karekare karimo ibintu ndetse n'utundi dutatu dutoya, dusa nk'utubikwamo imiti ndetse n'ibirabyo by'umuhondo birambitse ku mpande yatwo.

Udukombe, uducupa ndetse n'ibikombe n'akabido biteretse ahantu runaka, bikaba biri mu mabara y'umweru, hari akabido kari mu mabara y'umuhondo, kanditseho amagambo adasomeka neza.

Ni uducupa twinshi dutandukanye turi mu ibara ry'umweru, hakaba n'utubido duteretse kamwe kari mu ibara ry'umuhondo n'amagambo atukura akanditse inyuma, akandi kari mu ibara ry'umweru n'umufuniko ujya gusa umuhondo.

Umugabo wambaye akagofero uhagaze mu nyubako mwimbere ukikijwe n'utubati turimo imiti y'amoko atandukanye yifashishwa mu buvuzi gakondo.

Utubido turi mu mabara y'umweru twanditsweho inyuma n'amagambo ari mu mabara y'umutuku n'uducupa tubiri dutoya tw'umweru, igishushanyo cy'umuntu ugaragara uri kuribwa mu mugongo, mu ijosi, ku kuboko ndetse no mu ivi.

Ikimera kigaragara neza cyane, gifite utubabi dutoya tujya gusa umuhondo, hakurya hakaba hari ibindi bitagaragara neza, kikaba cyifashishwa mu buvuzi bwa Kinyarwanda.

Udukoresho twinshi dutandukanye twifashishwa mu kubika ibintu bitandukanye, harimo utubido dutatu tunini tugaragara, ak'umuhondo n'utundi tubiri tw'umweru, udukarito ndetse n'uducupa dutoya.

Ibimera biri ahantu mu murima bifite amababi matoya ajya gusa icyatsi, bikaba byifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye.

Ishyamba rigaragara ririmo ibiti bitari binini, hakaba harimo ibihingwa by'utubabi dutoya, bikaba byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.